Ibi mubona rero uyu ni umuyoboro w'amashinyarazi, aha ngaha ni aho bafatira amashanyarazi ajya ahantu hatandukanye, mu rugo mu ngo z'abantu.

Aha ngaha baratwereka umuntu ufite igare uri mu muhanda akaba atwaye imizigo, igaragara nk'udufuka tw'umuceri ari mu muhanda wa kaburimbo.